Mucyumba cyahakorerwa inama hari abantu bateze amatwi ndetse bakurikiye amabwiriza y'uwabahurije hamwe murino nama bakuricyiranye.

Abitabiriye iyi nama bari benshi, ariko umubare munini wari abari n'abategarugori, kugira ngo bige ibibazo n'imbogamizi bahura nabyo umunsi k'u munsi.

Abitabiriye iyi nama bose, banejejwe no kumva imyanzuro yayivuyemo n'imigabo n'imigambi bahakuye kuva uwo munsi bakora iyo nama.

Abantu bicaye bari mu nama umubare munini ni abagore, harimo abagabo. Bategereje umuyobozi ko aza akababwira ibijyanye n'icyo yabahamagariye.

U Rwanda rurakataje mu bihugu bishinzwe gutegura neza inama mpuzamahanga ziga ku bibazo byo muri aka karere kandi bikabonerwa umuti n'ibisubizo.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage bayo kumva neza gahunda ibafitiye, ibakoresha amanama atandukanye, ibasobanurira imigabo n'imigambi y'ejo hazaza h'igihugu batuye.

Inama mpuzamahanga yabereye i kigali mu Rwanda, yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye, abavuye muri nigeriya, abavuye muri senegare, bose barayitabiriye, biga ku bintu bitandukanye.

Guverinoma y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kongera imibare y'abari n'abategarugori batumirwa mu manama atandukanye kugira ngo bige ku bibazo n'inzitizi n'imbogamizi bahura nabyo, mu buzima bwa buri munsi.

Inama yari yitabiriwe n'abantu baturutse mu bihugu byo hanze bitandukanye yiga ku ikoranabuhanga n'imihindagurikire y'ikirere mu karere ka Afurika y'iburasirazuba.

Abantu benshi bitabiriye inama ndetse n'uwabakoresheje inama ari kubaha amabwiriza ajyanye n'ibyo ashaka kubabwira.

Rwanda reveni iramenyesha abayigana bose ko serivisi zose z'ibinyabiziga zimukiye Masaka Dubai poti, ahasanzwe hakorera ibiro bya gasutamo.

Irembo ryakomeje gukemura ibibazo byinshi abaturage bahuraga nabyo byo gusiragira ku buyobozi bashaka ibyangombwa, ubu si ngombwa kujya kure kuko wasaba ibyangombwa ukoresheje ikoranabuhanga.

Rwanda edikesheni bodi yashyize ingufu mu ikoranabuhanga. Abanyeshuri bose bagomba kumenya mudasobwa nkuko bamenya andi masomo asanzwe y'imibare igifaransa n'ibindi.

Irembo ahatangirwa serivisi z'irembo abashinzwe gutanga izo serivisi niho bakorera imirimo yabo ya buri munsi.

Aragibi ni urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rukaba rukurikirana iby'amatorero ama egirise mu Rwanda ndetse n'izindi kampani zikorera mu gihugu cy'u rwanda.

Irembo, byikorere. Kwiyandikisha mu kizamini cy'irushanwa rw'icyiciro cyisumbuyeho. Ni urubuga rw'ikoranabuhanga mu kuyandikishirizaho.

Rura, ikigo gishinzwe iby'ubuziranenge n'ubugenzuzi kirabwira abanyarwanda bose bakoresha gaze, icyo bakora mu gihe gaze iri gusohoka kandi hadafunguye.

Irembo nurubuga rukoresha ikoranabuhanga rwashyiriyeho kugira ngo rworohereze abagana serivise zisaba ibyangombwa muri leta batagombye gusiragira kumirenge cyangwa muturere aho bashaka izo serivise.

RDB Rwanda Developomenti Bodi. Ni kigo cy’ igihugu cy’ u Rwanda gishizwe iterambere n’ ubukungu mu gihugu ndetse n'ubukerarugendo,...

Mu Rwanda mu kurinda ibidukikije misiyo yarwo ni ukongera amashyamba ndetse n'ibiyakomokaho no kuyarinda mugihe cyose.

Rwanda reveni otoriti ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ibyinjira n'ibisohoka kuri za gasutamo ndetse n'imbere mu gihugu ndetse n'imisoro y'ubutaka n'imisoro y'imitungo itimukanwa.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwishyuza imisiro n'amahoro, kiratanga itariki ntarengwa yo kurangiza kwishura imisiro, le tariki makunyabiri n'eshatu z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane. Uyu munsi ni wo wa nyuma wo kwigaragaza ku bushake.

Rura genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita ya tape andi go yagiyeho, mbere yo gushyira amafaranga ku ikarita yawe banza ugenzure ariho.

Aho batangira serivisi z'irembo, aho wasabira ibyangombwa bitandukanye. Ibyangombwa by'amavuko, ibyangombwa by'uko uri ingaragu, impapuro zijya hanze n'ibindi.

Rwanda eveni otoriti, ishyura imisoro n'amahoro hakubiyemo ibyo wishyuye byose, wishyuriye abakozi bawe.

Rwanda reveni ifite ikirango kirimo amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo. Ikaba ishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro y'ibyinjira mu gihugu ibere, imitungo itimukanwa ndetse n'amazu n'amamodoka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro, gisigaye gishyiraho kwibutsa abakigana n'abakenera serivisi zacyo ko haba hasigaye umunsi umwe kugira ngo igihe cyo kwishyura hadaciwe amande kirangire,

U Rwanda ruri mu bihugu bikomeje kugaragaza ubudashyikirwa, mu kwakira inama mpuzamahanga, niyo mpamvu hari Kigali Convention Centre iri mu mujyi rwagati mu Rwanda muri urwo rwego rwo kwakira izo nama mpuzamahanga.

RDB ikigo gishinzwe iterambere n'amajyambere mu Rwanda kikaba gishinzwe guteza imbere amajyambere y'igihugu ndetse n'ubukerarugendo nacyo kikaba giherereye i KIGALI

U Rwanda rwashyize imbaraga mu gukwirakwiza umuriro wa mashanyarazi niyo mpamvu rwashyizeho uburyo bwose bushoboka ko umuturage aho yaba ari hohose yatunga umuriro ntagume mu kizima.

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Amazu menshi yubatse yegeranye ndetse n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi zinyura hejuru y'amazu n'imodoka iparitse kuri uwo muhanda n'umuntu w'umugenzi uhagaze.

Ibyuma bikoreshwa mu mashanyarazi bigaragaza aho biteretse, bizwi nka "hotetansiyo" ni ibimenyetso bigaragariza buri muntu wese ko aho hantu hari danje agomba kutahegera.

Abamotari, abatwara abantu kuri moto, abagenzi bagenda n'amaguru, imodoka, biri mu muhanda mu mujyi, biri muri serivisi za buri munsi.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi rege gifite gahunda yo kongera amashanyarazi akoreshwa i mbere mu gihugu kuko abayakenera nabo umubare wabo wariyongereye.

Insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ziyakuye ku muyoboro wa hoti tasiyo ziyakwirakwiza mu baturage hose, twebwe abagenerwabikorwa tugomba gufata neza ibikorwaremezo leta yadushyiriyeho.

Imodoka eshatu ziri muri parikingi ziparitse hafi y'igiti kiriho imigozi cyangwa insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi harimo umushoferi.

Emutiyene Rwanda yamamaza ibikorwa byayo, hari ibipangu bisigwaho amabara yayo kugirango igaragaze ibikorwa byiza ifitiye abaturarwanda muri rusange.

Insinga z'amashanyarazi zizwi nka hote tansiyo ziyakwirakwiza mu baturage, kandi zikaba ziri mu kirere hejuru, zinanyura mu mirima y'abantu.

Amashuri yubatse mu buryo bwo kwakira abanyeshuri benshi afite aho utagomba kunyagirwa mu gihe imvura iguye ujya mu ishuri.

U Rwanda rwemerera abandi banyamahanga kuza gushora imari mu gihugu kuko ubu hari n'abashinwa bari mu Rwanda aho bafite amavuriro avura gakondo ya gishinwa, inaha mu Rwanda.

Uburezi ni imwe mu nkingi za mwamba u Rwanda rufite niyo mpamvu buri gihe leta ishyiramo ingengo y'imari ihagije kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bave mu bujiji.

Leta y'urwanda yashyize imbaraga mumavuriro kugirango abaturarwanda igihe bagize ibibazo bitandukanye byubuzima bagane amavuriro yigihugu nka CHUB.

Mumyubakire y' amashuri hagomba kuba ahantu hasakaye kuburyo umunyeshuri mugihe imvura iguye atagomba kunyagirwa agatangra amasomo ye.

Abaka serivisi mu bigo bitandukanye leta ikoreramo baba bagomba kugira imyanya bicaramo bategererezamo umuyobozi, kugira ngo bakurikirane uko baje.

Minisiteri y'ubuzima yongereye ubushobozi bw'ibitaro bya Muhima, kuko byakira ababyeyi baje kuhabyarira ari benshi, ni muri urwo rwego bongereye ikigero cya serivise batangaga.

U Rwanda rwashyize imbaraga mubikorwaremezo; amavuriro, imihanda ndetse n'ibitaro bikuru aha hari aho kwivuriza mugihe urwaye ntugomba kurembera mu rugo kuko u Rwanda rwadushyiriyeho amavuriro ahagije

Inkiko gacaca zafashije mu butabera bw'u rwanda mu kuburanisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, mu mwaka w' igihumbi cya magana kenda na mirongo ikenda na kane kandi zarangije imirimo yazo, ariko impapuro zarabitswe ahantu hizewe.

U Rwanda ruratanga miriyoni eshanu z'amadorari y'amanyamerika ku muntu uzabona cyangwa se akamenya amakuru kuri aba bantu kuko basize bakoze ibyaha by'indengakamere mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Leta y'u Rwanda yazamuye ikigero cy'imibare y'abacamanza bakorera mu Rwanda kandi bakagomba kurahirira inshingano z'abo bagiye kwinjiramo, ko bazakurikiza amategeko ya leta y'u Rwanda nk'uko abiteganya.

inkiko gacaca ni urwego rwubucamanza rwatanganga ubutabera mu rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi murwego rwo kwishakamo ibisubizo mugihe gitoya

Urwego rukuru rushinzwe imfungwa n'amagereza n'abagororwa, rwashyiriweho kugira ngo rucumbikire abakoze ibyaha bitandukanye, mu gihe bakiri kugororwa hanyuma bazatahe cyangwa bahamywe ibyaha bakoze.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'umweru gitwaye imizigo ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga amahumbezi n'umuyaga ku bawukoresha bose.

Muri gereza nkuru, abacungagereza ndetse n'imfungwa zifite amajerekani zivuye mu mirimo itandukanye hanze ya gereza.

Umugororwa ajyanywe n'abacungagereza bamuherekeje kugira ngo ajye kurukiko, yisobanure ku byaha ashinjwa.

Igazeti ya Leta, ubwigenge bw'abanyarwanda, mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko nshinga. Ingingo ya mbere ,inkomoko y'ubutegetsi bw'igihugu.

Igihumbi maganacyenda mirongo itatu, pirizo igororero abanyabyaha aho bajyanwa, kugira ngo bahanirwe ibyaha bakoze,...

Inkiko gacaca ni urwego rw'ubutabera u Rwanda rwashyizeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo abantu benshi bashinjwaga ibyaha babone ubutabera bikozwe n'abaturage b'u Rwanda.

Aho ukorera cyangwa aho utuye hagomba kuba harashizwe uburyo bwiza bwo kuzimya inkongi y'umuriro mugihe inyubako yawe ifashwe n'inkongi y'umuriro. Ni byiza twese gutunga kizimyamwoto.

Ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, gikwiye kuba muri buri nyubako yose ihuriramo abantu cyangwa ahantu hashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro vuba mu gikoni.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mugihe hari umuriro mwinshi watatse inyubako y'aho mukorera cyangwa aho mutuye. Buri muntu wese agomba kubitunga, ubifitiye ubushobozi.

Ibikoresho byifashishwa mu gihe habonetse inkongi y'umuriro bishobora kuzimya umuriro igihe watatse inyubako cyangwa aho abantu bakorera.

U Rwanda rufite gahunda yo gukumira ibiza cyangwa ibyago bitari byaba niyo mpamvu rufite imodoka za kizimyamoto ziba ziri ku masitasiyo ya polisi kugira ngo ahabonetse ahari inkongi y'umuriro bihutire gutabara hakiri kare.

Rwanda nashino polisi mu murenge wa Rwezamenyo akarere ka Nyarugenge polisi ya sitasiyo ya Rwezamenyo.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Inkongi y'umuriro ishobora kwataka aho ariho hose haba aho ukorera cyangwa mu rugo iwawe cyane cyane mu gikoni ni ngombwa kuyitunga iwawe kizimyamwoto uko byagenda kose.

Polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, igendera kuri moto, kugira ngo ikurikirane neza ibinyabiziga bitubahirije amategeko cyangwa ahabereye impanuka itabare hakiri kare.

Umupolisi w'u Rwanda, ushinzwe umutekano w'abanyarwanda, cyane cyane kwita ku basivile, ahagaze mu muhanda, ari gucunga umutekano w'abantu.

Uburyo bwo kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe yatatse urugo rwawe cyangwa aho ukorera mu kazi. Kizimyamwoto ibigufashamo, ugomba kuyitunga iwawe cyangwa aho ukorera.

Guverinoma y'u Rwanda ishyize imbaraga mu gukomeza umutekano w'abantu n'ibintu, niyo mpamvu urwego rwa polisi y'igihugu cy'u Rwanda rufatanya n'ababishinzwe kugira ngo umutekano w'imodoka umutekano w'abantu, umutekano w'ibinyabiziga byose byubahirizwe.

Polisi ishinzwe umutekano w'abasivire ndetse n'ibintu, iri gucunga umutekano w'abatwara ibinyabiziga, harimo abamotari n'abashoferi.

Gucana kuri gaze bimaze kugaragara ko nabyo bishobora guteza impanuka rimwe na rimwe niyo mpamvu polisi yu Rwanda ifite ubukangurambaga ku baturage bose kugira ngo bahugurirwe uburyo bakitabara mu gihe habonetse ko gaze yateje umuriro udasanzwe.

Abayobozi bahagarariye u Rwanda muri panafurika pararumenti, harimo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri baruhagarariye.

Hizegiselensi Paul kagame mu nteko ishinga amategeko n'umukuru w'inteko ishinga amategeko Mukabalisa amusobanurira ibyavuzwe uwo munsi.

Hizi egiserensi Paul Kagame yari umunyacyubahiro mukuru ari kumwe na madamu Jeanette Kagame ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Ale Mukurarinda.

Umuyobozi mukuru w'urwanda hiziye eseresi paul kagame yagezaga ikiganiro ku bari bitabiriye inama rusange yaberaga muri sitade amahoro mu rwanda.

Perezida w'u Rwanda hizi egiserensi Paul Kagame yari yitabiriye inama mpuzamahanga mu gihugu cyari cyamutumiye uwo munsi.

Minisitiri w'intebe w'urwanda uyoboye abandi ba minisitiri ayoboye igihe kirekire mu rwanda kuri uyu mwanya wa minisitiri w'intebe, akaba yarakoze no muri nasiyozime igihe kitari gito akabona kuza gukorera inaha mu rwanda.

Umugabo witabiriye iyi nama afite agaseke, ari kugenda anyura mu bitabiriye iyo nama, akusanya ibitekerezo n'amabwiriza yari yabahaye.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Abagize ishyaka rya girini pati, naryo ryitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu, ryari rifite umukandida waryo Frank Habineza, nabo biyamamaje nk'uko byasabwaga.

U Rwanda rugira demokarasi niyompamvu habaho amatora yo gutora umukuru w'igihugu. Ni muri urwo rwego ishyaka riri ku butegetsi efu pe eri inkotanyi, ryatsinze amatora aheruka.

Muruyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, leta yurwanda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ishyaka rya FPR inkotanyi ryatanze umukandida waryo hizi egiseretsi Paul Kagame kugira ngo arihagararire mumatora.

Uwiringiyimana Agatha yari minisitiri w'intebe mu gihe cya mbere y'intambara yayoboye, ariko ashishikariza abanyarwanda bari hanze gutaha bose bakaba mu gihugu cyabo nk'abakivukiyemo.

Nyakubahwa Paul Kagame ni umuyobozi wa leta y'u Rwanda, akunzwe n'abatari bake mu bo ayobora ndetse n'abo mu mahanga, kubera ko ari indashyikirwa.

Nijoro mu muhanda, amamodoka itambuka, abakozi bari kuva ku kazi, ndetse hari imodoka icanye amatara maremare.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo imirimo itandukanye, haragaragaramo na moto itwara imizigo, na moto itwara abantu. Biri mu mujyi wa kigali.

Ruwayare egisipuresi, ni imodoka itwara abagenzi benshi harimo abagenda bicaye n'abagenda bahagaze hari n'umumotari utwaye umugenzi.

Mu muhanda rwagati wa kaburimbo hari imodoka ziri kuva zirimo kujya mu mujyi wa Kigali harimo imikindo iteye muri jarde harimo n'umumotari utwaye umugenzi.

Royal express ni kampani ikorera mu Mujyi wa Kigali, itwara abantu, ikorera Nyabugogo, ikajyana abagenzi Kicukiro ndetse na Gikondo, ikanabakurayo.

Imihanda yo mu Rwanda imyinshi ihuza uturere n'utundi bashizemo kaburimbo kugira ngo borohereze urujya n'uruza rw'abantu bashiramo n'inzira y'abantu amapave.

Urwego rw'igihugu rushinzwe ubwikorezi rubungabunga imodoka zikorera imizigo zaba ziyikura hanze y'u Rwanda cyangwa ziyiyana hanze y'u Rwanda.

Kubera urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda leta y'u Rwanda yashyizeho inzira y'abanyamaguru gusa, ibinyabiziga bigaca mu muhanda wa kaburimbo, abagenda n'amaguru bagaca mu muhanda wamapave.

Muri gare aho bisi zitwara abagenzi bajya ahantu hatandukanye ziparika, haparitsemo imodoka ntoya n'abisi nini cyane.

Abadamu ntibahejwe mu guteza imbere igihugu cyabo niyo mpamvu bari mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi kuko bagaragaye ko nabo bashoboye bahabwa inshingano zitandukanye kandi bazikora neza.

Urwego rushinzwe gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa kigali bakuzaniye amabisi manini aho bizakemura, ikibazo cyo gutinda ndetse no kubura imodoka.

Bisi nini ya jagwari itwara abagenzi mu buryo bwambukiranya umupaka w'u Rwanda n'ubugande n'abanyegare babiri bari imbere bari kwambukiranya umuhanda.

Gukora imihanda no guteza imbere ubwikorezi n'urujya n'uruza rw'abanyarwanda hashyizwemo imodoka nini mu mugi wa Kigali zizwi nka makwasiteri kugira ngo zoroshye gutwara abantu.

Imodoka itwara imizigo, umuntu yicaye hejuru y'iyo mizigo kugira ngo abajura bataza kuyiba, iri kugenda mu muhanda yikoreye byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, abanyonzi babiri batwaye imizigo irimo ibirayi, bari kugenda n'imodoka y'uwa tagisi vature nayo iri kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo urujya n'uruza rw'abantu abanyegare abamamodoka, imodoka zitwara imizigo, imodoka zisanzwe ntoya bose bari kujya mu byerekezo bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo hari ibimenyetso bishushanyije mu mabara y'umweru, byerekana zebura korosingi aho umugenzi ahabwa puriyoriteri akabanza agatambuka, noneho ibinyabiziga nabyo bikabona gukomeza inzira.

Hadibodi ni akamoto, gafite amapine atatu gatwara cyane cyane imizigo, ntabwo gakunda gutwara abantu, kazwiho gutwara ibintu bikeya.

Umu motari uparitse impande y'umuhanda, akaba ahetse agakarito gasa ibara ry'icyatsi kanditseho, vuba vuba nk'imwe muri sosiyete ifasha abantu kugezwaho amafunguro ndetse n'ibyo kurya mu buryo bwihuse. Impande yiwe hakaba hari icyapa cyanditseho kivu marina bayi hoteri, ndetse n'indabyo ngufiya iruhande rwe.

Leta y'urwanda yashyize imbaraga mukoroshya ingendo za hano hagati mumugi inashyira imbaraga zo kudakoresha amafaranga Ari kashi niyo mpamvu bazanye imodoka ushyiraho ikarita amafaranga akikuraho.

Bralirwa ni uruganda rukora ibyo kunywa harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, rugira pirimusi, mitsingi, amusiteri, naza koka kora ndetse n'amafanta.

Ni imodoka zitwara imizigo, ziyikuye hanze y'u Rwanda, ziyizana mu Rwanda, haba harimo ibiribwa bigomba gutunga abaturarwanda, cyangwa ibindi byifashishwa umunsi ku munsi.

Imodoka nini yo mu rwego rwa rukururana ifite kontineri y'ibara ry'ubururu hafi yayo hari indi modoka ya rava fo y'ibara ry'umweru n'umugenzi wikoreye umuzigo uri mu mufuka.

Parikingi nini ya bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali hariho n'ibyapa byamamaza banke ya Kigali, imikorere yayo n'ibyiza byo kuyigana muri Kigali.

Guverinoma y'u Rwanda ishyize imbaraga muri taransiporo y'abantu n'ibintu, aho bafite amabisi manini ndetse n'amakwasiteri n'utubisi dutoya two gutwara abantu.

Imodoka yo mu bwoko bwa kamyoneti, itwaye imizigo, n'umugenzi wicaye hejuru y'iyo mizigo; umumotari utwaye umugenzi, wambaye kasike y'ubururu umugenzi yambaye kasike y'umuhondo.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri ya kampani ya sitela, itwara abagenzi ikunda gukorera mu burasirazuba iza i Kigali, ndetse ikanakorera mu hahoze hitwa i Byumba.

Imodoka yo mu bwoko bwa howo yafuso ikunda gutwara imizigo, ibitaka, umucanga ndetse n'imodoka itwara abanyeshuri mumuhanda zirakurikiranye.

Iyo imihanda ikoze neza bituma ibinyabiziga bitangirika, kandi n'impanuka zikagabanuka kuko umuhanda uba ukoze neza.

Imodoka zitwara abagenzi zizwi ku izina rya ajanse, ziri pongitiweri, zitwara abagenzi cyane cyane berekeza mu ntara, zegereye cyangwa ziri kure y'umujyi wa Kigali.

Leta y' u Rwanda mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi ndetse na taransiporo muri rusange, igenda ikora imuhanda myinshi igashyiramo kaburimbo amapave mu nzira y'abanyamaguru.

Urwego rw'ubwikorezi, gukura ibicuruzwa hanze y'u Rwanda cyangwa kubijyana mu yandi mahanga, bikorwa n'amakamyo manini, azwi nka za rukururana.

Mu muhanda ahari urujya n'uruza rw'abantu, imodoka zitwara imizigo, imodoka zisanzwe z'abantu ku giti cyabo, amagare, amamoto, n'abagenda n'amaguru, n'abafite imizigo bose bari kujya ahantu hatandukanye.

Ikamyo itwara imizigo yo mu bwoko bwa fuso hamwe n'umumotari utwara abagenzi ariko udafite umugenzi biri mu muhanda, umwe ari mu cyerekezo gitandukanye n'icy'undi.

Imodoka mu muhanda wa kaburimbo, abanyamaguru babiri ndetse n'umunyegare uhetse imizigo, bose bari kugenda bajya mu mirimo itandukanye.

Abamotari benshi bari ahantu hamwe biteguye kujya mu nama y'abamotari, kugira ngo abayobozi ba polisi, ndetse n'abashinzwe umujyi wa Kigali bababwire amabwiriza mashyashya.

Bisi nini ya ritiko limitedi ishinzwe gukura abantu n'ibintu aho bari ibajyana mu ntara aho batandukanye ihuza abantu n'abandi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu gukora no gusana imihanda, kugirango ubwikorezi, urujya n'uruza, gutwara ibintu n'abantu bikomeze kugendekera neza. Iyo serivise yashyizwemo imbaraga nyinshi.

Ubwikorezi cyane cyane abambuka imipaka baza mu rwanda cyangwa se abayambuka bajya hanze y'urwanda ni kimwe mu nkigi zikomeye urwanda rufite, niyo mpamvu iyo gahunda urwanda rwayishyizemo imbaraga nyinshi.

Kwasiteri zitwara abagenzi mu rwego rwa rusange, zifasha mu rujya n'uruza no kugeza serivisi ku bazigana mu rwego rwo kugeza abantu aho bavuye cyangwa aho bagana.

Urwego rushinzwe tiransiporo mu Rwanda rwagennye ko izi modoka zizwi nka minibisi zigomba kugenda zigabanuka, kugira ngo hajyemo imodoka zitwara abagenzi benshi.

Abamotari babiri bahetse abagenzi, n'umunyegare uhetse umugenzi, bari mu muhanda, bari kwerekeza ahantu hamwe, bari kugenda bose mu cyerekezo kimwe.

Umutakano wo mu muhanda leta y' u Rwanda ishiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bigabanye impanuka zibera mu muhanda kuko atari byiza, niyo mpamvu ishyiraho amabwiriza agenga ibinyabiziga ikanayavugurura.

Akarere ka Muhanga gaherereye iburengerazuba naho hageze irushanwa ry'amagare ryitabiriwe n'ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika ryagenze neza icyo gihe.

Ubu dushishikajwe no guteza imbere ubukerarugendo hano mu gihugu cyacu cy'urwanda niyo mpamvu twifashishije ibigo bizwi cyane cyane amakipe y'imipira kugira ngo adufashe muri gahunda yacu ya sura u rwanda.

Polisi y' u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda igenda ishyiraho ibyapa bigaragaza aho umuntu adashobora guparika kuko haba hatizewe.

Sitopu icyapa cyanditseho sitopu gifite ibara ry'umutuku kigaragaza ko ugomba kwitonda ugahagarara, abamotari babiri barimo kugenda muruwo muhanda.

Guverinoma y'u Rwanda yagiye ishyira ibyapa bitandukanye ku mihanda, kugira ngo biyobore abakoresha umuhanda. Iki ni icyapa kigaragaza ko nta parikingi iri aha hantu, ugomba gukomeza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ibimenyetso biri mu ibara ry'umweru, byerekena ko imbere hari rompuwe. Ni ukugira ngo ugana uyu muhanda amenye ko agomba kuzenguruka.

Ikimenyetso kiri mu ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, ririmo kwerekana amerekezo, ko umuhanda ufite uwushamikiyeho, umwe ukomeza imbere, undi ugakata ujya i buryo.

No pakingi ni icyapa kigaragaza ko aho hantu hatemerewe guhagarara igihe kirekire, ibinyabiziga ahubwo bigomba gukomeza kuko hatemerewe guhagarara imodoka igihe kirekire.

Icyapa cyo mu ibara ry'ubururu kigaragaza umuntu gisobanura ko abagenzi aho ngaho bari buhanyure, imodoka zigomba kugabanya umuvuduko nabo zikabaha umwanya.

Icyapa kiri mu ibara ry' umutuku mo hagati gifite ishusho ya mpande eshatu, mo hagati harimo uturanga amerekezo ko aho ngaho hari rompuwe.

Icyapa kikurangira aho werekeza eni ara wani akanyaru huye eni ara makumyabiri n'icyenda kibugabuga nyamiyaga.

Remera mu Giporoso ahazwi nko ku cya Mitsinzi hari amazu afite igipangu yose werekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe hari amajaride meza.

Mu mugi wa Kigali i Remere ahazwi nko Kwarando haba urujya n'uruza rw'abantu benshi, hakaba hari amahoteri, amavuriro, amazu y'ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Inzu zikiri nshyashya zubatse mu buryo bugezweho, zifite nimero magana abiri na rimwe, ziri ku muhanda wa kaburimbo kandi kuhagera biroroshye.

Umuhanda urimo abagenzi ndetse n'umumotari uri kuri moto udafite umuntu atwaye, n'amazu y'ubucuruzi aherereye ku muhanda mugari wa kaburimbo.

Uko igihugu cy'u Rwanda kizamuka mu bukungu, ni nako ubukerarugendo n'amahoteli bigomba kubamo byinshi, ni muri urwo rwego infiniti hoteli nayo yafunguye imiryango i Kigali mu Rwanda.

Umuhanda w'ibitaka, urimo umunyamaguru, imodoka imwe, abanyamaguru bagenda muri karitsiye irimo amazu y'ama etaje ageretse,...

Inzira pavomye n'amapave yo kunyuramo iruhande rwaho hari ubusitani bwa pasiparume bwiza cyane.

Imihanda ikoze neza yorohereza urujya n'uruza rw'abantu kandi igatuma abakoresha iyo mihanda hatabamo impanuka za hato, kuko haba nta binogo birimo cyangwa imvura ngo irekemo.

Imihanda irimo kaburimbo ndetse n'inzira z'abanyamaguru zirimo amapave, nibyo bifasha abantu mukugenda munzira hatabyeho kubangamira ibinyabiziga kuko abanyamaguru baba bfite inzira ya bo.

Guverinoma y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukora ibikorwaremezo no kubigeza ku baturarwanda bose, ibyo harimo amashanyarazi, ndetse n'imihanda ya kaburimbo, bakoze ibirometero byinshi cyane bigera ahantu hatandukanye.

Munsi y'ikiraro cyahitirirwa ku Kinamba haranyura abantu babiri, igare ndetse n'imodoka ebyiri zo mu bwoko bw'amakamyo.